Akazu ka MTN kari mu ibara ry'umuhondo gateretse ku mabuye ane, imbere yako hagaze abantu babiri, umukobwa n'umusore, umukobwa wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

akazi keza ka Eyateri gafite amagambo hejuru ya eyateri mane yandikishije inyuguti z'umweru ndetse n'igishushanyo cya ca kiri mu nyuguti y'mweru, gafite idirishya rirafunguye riri mu ibara ry'umweru ndetse n'urugi rwako rurafunguye.

Inzu nziza, yubatse neza, isakaje amabati y'ubururu, iri kugaragara neza, hejuru ifite icyapa cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ku marembo yayo hari umutaka mwiza wa MTN, uri mu ibara ry'umuhondo, urafunguye.

Akazu keza ka eyateli gafunze kari mabara y'umutuku ndetse gafite ikimenyetso cy'umweru cya eyateli iruhande rwako hahagaze abantu babiri ndetse no hepfo yako hahagaze abantu benshi barimo kuganira.

Umuhanda mwiza uri kugaragara neza, uparitseho moto ndetse n'abamotari benshi n'umugenzi umwe uri gutega moto w'umugore, yambaye ikanzu, iruhande hari akazu keza ka Emutiyeni, karafunze kari mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda mwiza w'umukara ufite amapave ku ruhande, imbere hari umutaka mwiza wa Eyateri ufunguwe, uhagazemo umukobwa urimo gucuruza amayinite.

Ahantu hubatse neza hubakishijwe amapave hari kugaragara neza, moto iriho umugabo wambaye kasike y'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hari akazu ka MTN kari mu mabara y'umuhondo hicayemo umusore wambaye ijile y'umuhondo.

Umugabo wicaye, yambaye ishati nziza y'amaboko maremare ndetse n'ijire ya MTN, ukuboko kwe kumwe agushikamirije ku kameza, imbere ye hahagaze umugabo ufite ubumuga bw'akaboko akandi kaboko yakamanuye agafatisha ku bibero bye.

Ahantu heza, hubatse neza, hubakishije amapave, hateretse akazu keza kubakishije imbaho, hejuru karafunguye, hicayemo abantu bane barimo kuganira bizihiwe ndetse bafite ibintu binyuranye.

Abantu benshi batandukanye bambaye udupfukamunwa, ni abagabo n'abagore, abagabo bambaye amakositimu bahagaze imbere y'inzu nziza ifite amarangi y'umweru, ndetse n'ibara ry'umukara iri kugaragara neza.

Inzu yubakishije ibiti, hasi irakorotiye, hejuru isakaje amabati y'ubururu ariko mu mpande ibiti ntabwo bihomye, yubatse ahantu ku gasozi, hino hari ibyatsi byinshi no hirya hari ibindi by'amoko atandukanye.

Icyapaki cy'icyatsi cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwand,a umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, wafunze igipfunsi imbere ye hari akameza arimo kuvuga areba imbere.

Ahantu mu gashamba hariho ibiti byiza by'inganzamarumbo, hagati yabyo hicaye abantu ku ruziga abagabo n'abagore barimo kuganira, abagabo batatu barahagaze barimo kuganiriza abandi babateze amatwi kandi barishimye.

Inzu nziza yubatse neza iri kugaragara neza ifite inkingi z'umuhondo ndetse n'ahantu h'ibara ry'ubururu, abagore babiri bahagaze bari kureba imbere umwe yambaye ijipo y'umutuku ndetse n'umugabo uhagaze uri kurebera uwicaye mu kirahure.

Ahantu heza hubakiye neza, hari kugaragara neza, hicaye abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye higanjemo abambaye udupira tw'ubururu ndetse n'abambaye udupira tw'umweru bari kuganira, barizihiwe amaso yabo bayahanze imbere hari ibyo bari kureba.

Inkoko nyinshi nziza zifite amabara meza, ziri ahantu hamwe umugore ufite imitsatsi mikeya yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru ndetse n'ikoboyi, ari kugenda atoragura amagi.

Inyubako nziza ndende, yubatse mu buryo butangaje, ifite inkingi z'umukara, iruhande rwayo haparitse bisi nini cyane, iri mu mabara y'icyatsi n'umweru, imbere kandi hari abantu bahagaze ahantu hamwe, bambaye udupira tw'umweru ndetse n'amapantaro atandukanye.

Ibyatsi byinshi bitohagiye ndetse n'igitaka kimeze neza, abantu benshi bahagaze biganjemo abagabo barimo kuganira, umwe yifashe mu mifuka yambaye umupira w'icyatsi undi yifashe mu mayunguyugu.

Abagabo babiri bahagararanye umwe yambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru, yambaye agapfukamunwa, rinete ze yazizamuye azishyira mu gahanga, undi yambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma yabo hahagaze abantu benshi babashungereye.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore baricaye barizihiwe barimo kureba imbere, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye rineti afite uruhara, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, afashe mikoro mu ntoki ze arimo kuvuga.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mumuhanda w'igitaka hagaragara nk'intabire, higanjemo abambaye ubupira bw'icyatsi, abagabo n'abagore, umugabo umwe afashe terefone, yambaye ikoboyi, arimo gutsindagira cyane.

Abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo, harimo abambaye n'ingofero, bahuriye hamwe bari kuganira, bamwe bahurije ibiganza byabo byombi hamwe, barishimye barimo guseka.

Icyumba kiza giteguye neza kirimo inzoga nyinshi z'amoko atandukanye, mitsingi pirimusi ndetse n'amafanta atandukanye, coca cola n'ibindi byose binyobwa n'abantu.

Bale nziza, iteguye neza, iri kugaragara neza, irimo inzoga z'amoko atandukanye, pirimusi, shampanye, ndetse n'izindi likeli zose zinyobwa n'abantu, bigaragara ko zamaze gushyirwa ku murongo, kugira ngo zihabwe abakiliya.

Inzu nziza, yubatse neza, ifite amarangi y'umutuku, iri kugaragara neza, intebe zitondetse neza ku murongo, umuntu uhagaze uri kureba imbere mu moduka, harimo inzoga z'amoko atandukanye, inyuma ye hahagaze umuntu urimo guhengereza.

Ahantu heza hateguwe neza hubatse neza hubakishije amakaro, hariho umuronko w'ubururu, intebe nziza z'umukara zifite aho kwegamira zitondetse neza ku murongo, indabo z'amabara atandukanye ziri ahantu hamwe hatuje.

Icyumba cyiza, giteguye neza, gifite amabara y'umuhondo, amadirishya yacyo arakinze, ku nkuta hariho ibyapa, intebe zipanze neza, zizengurutse ameza, ateretseho ibirahure n'amasahani atandukanye.

Ahantu hagaragara neza hubakishijwe amapave, butike nziza ifunguye irimo ibicuruzwa bitandukanye biri mu makarito ndetse n'ibiri mu mashashi, imbere yayo hari gaze zipanze neza ku murongo zifite amabara y'umutuku.

Ahantu heza hubakishije amapave ndetse gaze zitondetse neza ziri ku kumurongo, inyubako nziza ifunguye ifite amarangi y'umuhondo, hejuru iriho icyapa kiriho ibicuruzwa bitandukanye.

Umugore urimo guseka, uri mu iduka, imbere ye hari ameza ateretseho amacupa menshi arimo bombo, inyuma ye hari amacupa menshi arimo imitobe ndetse n'amashashi arimo amavuta.

Icupa riteretse rifunikishije umufuniko w'umukara rifite ibara ry'umutuku, iruhande rwaryo hari irindi cupa riri mu ibara ry'umuhondo rifunikishije umufuniko w'umweru, iruhande hari igikarito cy'umuhondo.

Butike irimo ibintu byinshi bitandukanye, amavutayo ayo kurya ndetse no kwisiga, amabombo ndetse n'amabiswi, umugabo uhagaze yambaye ishati y'amaboko maremare, afite icupa mu biganza yarizamuye hejuru.

Umugore wambaye ibirenge, yambaye ijipo y'umukara ,yambaye isengeri, akaboko ke yagafatishije ku meza irambitseho imigati, iruhande rwe hateretse intebe iri mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hari imifuka ya kahunga, umuceri iri mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Umugore mwiza w'inzobe utarimo guseka, yicaye muri botike irimo ibintu binyuranye, amavuta ari mu ibara ry'umuhondo, amabiswi ndetse n'amakarito atandukanye, arimo ibicuruzwa.

Akabati kubatse neza gakoresheje imbaho, hejuru yako kameze nk'ameza gateretseho ibase y'umutuku irimo amandazi hino yayo hicaye umusore wambaye agapira k'ubururu n'ikoboyi y'umweru.

Umugore uhagaze muri butike yambaye ishati nziza ifite uturongo tumanutse tw'umukara ndetse n'umweru afite umusatsi uziritse, ahagaze muri butike irimo ibicuruzwa bitandukanye amavuta ari mu macupa ndetse, n'amavuta afunitse mu mumakarito n'ibindi byifashishwa n'abaturage.

Botike irimo ibicuruzwa bitandukanye, bifunze mu makarito, ibindi mu mashashi afite amabara meza, biri kugaragara neza ko byamaze gutunganywa kugira ngo bihabwe abantu, babashe kubikoresha.

Butike nziza irimo ibintu byinshi, imigati, amabombo, amavuta, utubuni twiza tw'umuhondo, umugore uri guseka ari guhereza umwana amavuta ari mu ishyashi kugira ngo abashe kuyajyana mu rugo.

Ibikoresho bitandukanye, amafu ari mu budeyi, biteretse ahantu heza biri ku murongo, igitoki giciye, bigaragara ko bigurishwa kugirango abantu babikoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cyiza kiri kugaragara neza gifite hasi amakaro, gifite ibara ry'umweru ku nkuta zacyo, udukangara babikamo amagi dutondetse neza ku murongo turimo amagi menshi atandukanye.

Umusaraba ushushanyije mu ibara ry'umutuku ugashushanywaho n'uturongonko tw'umutuku mu nguni zawo amagambo yandikishije inyuguti y'umukara, ndetse n'ayandikishije inyuguti z'umutuku.

Umugabo wambaye akagofero k'iroza ndetse na marinete yambaye itaburiya y'umweru yikenyeje agatambaro k'iroza, imbere ye hagaze umusore wambaye ingofero n'umwenda wa gisirikare, inyuma ye hagaze umudamu wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara.

Urusengero rushaje cyane rusakaje amabati yakerebye rwararahomotse rufite inzugi z'umukara z'ibiti, fondasiyo yavuyeho imbere yarwo hari ibinogo byinshi cyane byaretsemo amazi.

Abantu benshi bicaye mu nzu nini cyane idafite parafo barizihiwe barimo kuganira, hari indabo ndetse n'imitako itandukanye ifite amabara anyuranye bamwe baricaye abandi barahagaze.

Kiliziya nziza yubatse neza ifite inkingi z'umweru ndetse n'amatafari adateyeho umucanga. Hirya yayo hari iyindi nzu isakaje amabati y'umutuku; imbere hahagaze abantu benshi bambaye imyenda itandukanye; higanjemo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'utuntu tw'ubururu mu ijosi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore ndetse n'abana bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umutuku, yazamuye amaboko kumwe agufatisha ku nda ukundi agushyira hejuru biragaragara ko ari kubigisha.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe barizihiwe barimo kuganira, imbere yabo hahagaze abagabo batatu, umwe yambaye ikanzu y'umweru ifite amabara y'umutuku n'umwitero mu ijosi undi yambaye ikanzu y'umweru irimo amabara y'umutuku ndetse imbere hariho umukara, undi yambaye ingofero igaragara neza nkaho ari musenyeri.

Abantu benshi bahagaze ahantu heza hubatse neza hariho n'amapave, bari kwifotoza harimo abagabo n'abagore ,inyuma yabo hari inyubako nziza cyane ifite amarangi y'umutuku ,ndetse n'ibirahure by'umukara.

Urusengero rwiza rwubatse neza rufite amabara yumutuku, rufite ku muryango ibara ry'umweru, ku madirishya yarwo naho hari amabara y'umweru, imbere yarwo hicaye abantu babiri bambaye imyenda y'umweru n'amapantaro yumukara.

Icyumba cyiza cya hoteri giteguye neza, gifite intebe z'umweru zipanze kumurongo ndetse nameza, ariho ibitambaro by'umutuku, kirahirengeye ntabwo gikinze kiragaragara neza.

Abantu bicaye ahantu hamwe ku ntebe zifite aho kwegamira harimo abagabo n'abagore, barimo kuganira barizihiwe umugabo umwe arahagaze yambaye agapfukamunwa k'umweru, ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Ikibuga cyiza gitereye kirimo umucaca mukeya, ibiti by'inganzamarumbu bihagaze bifite amababi atoshye, inzu nziza zisakaje amabati y'umutuku, zifite irangi ry'umweru ziri kugaragara neza.

Inyubako nziza yubatse neza irageretse ifite inkingi ziri mu ibara ry'umuhondo, imbere yayo hariho pisine bogeramo irimo amazi meza, hino hateye indabo nziza ziteye amabengeza zifite amabara meza.

Intebe zipanze neza mu matsinda hagati yazo hakaba ameza afite igitambaro cy'umweru, biragaragara neza ni ngombwa kugira isuku nk'uko tubitozwa n'abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo abaje batugana babyishimire.

Inzu nziza yubatse neza hasi ifite amakaro ,irimo amatara ari kwaka n'ibindi bikoresho byiza byifashishwa, hari n'umuhanda wama esikariye uzamuka ujya hejuru.

Igitanda kiza cy'abantu batatu gishashe neza mu mabara meza y'umweru n'umutuku gifite imisego eshatu, hirya hari itara ndetse hari n'utundi dukoresho turambitse ku kameza twifashishwa mu gitondo iyo umuntu abyutse.

Icyumba cyiza kirimo umwijima, harimo igitanda gishyashye neza, kiriho matola, ndetse gifite imisego, hino hari ibikoresho, byifashishwa iyo umuntu abyutse, harimo corogati ndetse na esime, umuntu akoresha agiye koga.

Umuhanda mwiza inyubako nziza nini cyane igeretse imbere yayo, haparitse amamodoka y'amoko atandukanye, inyuma yayo hari ibyatsi byiza bitohagiye, bimeze neza.

Icyumba cya hoteli giteguye neza gifite amakaro hasi hateretse intebe nziza z'umweru mu matsinda, ameza amwe ateretseho intebe umunani n'ayandi ateretseho izindi umunani.

Inzu nziza yubatse ahantu heza, isakaje amabati y'umutuku, ifite inkingi z'umweru, ndetse n'ibirahure bifite amabara atandukanye, imbere yayo hateye indabo nziza, zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, hino hari umuhanda mwiza w'umukara wubakiye neza.

Inyubako nziza igeretse isakaje amabati y'ubururu ifite amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari utuzu twubakiye turi mu mumahema turimo intebe nziza hino hari amazi menshi cyane meza bogamo, imbere yayo hateye indabo nziza z'amabara atandukanye.

Inzu nziza iteye amabengeza, isakaje amabati'umutuku, ifite amarangi y'amoko yose, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, imbere yayo hateye ubusitani buririmo indabo z'amabara y'umukara, icyatsi, bigaragara neza.

Icyumba giteguye neza, gishyashyeho amashuka y'umweru, kiriho ikirangiti gifite amabara y'umutuku n'imisego myiza y'umweru ndetse n'inzitiramubu itamanuye n'urugi rw'icyumba rurakinze ruri mu ibara ry'umutuku.

Inzu nziza igeretse yubatse neza isakaje amabati, iruhande rwayo hariho agahanda k'igitaka kari kugaragara neza, jalide iteye neza irimo ibiti bitohagiye biri kugaragara neza byitaweho.

Inzu nziza ifite ibyumba byiza ifite amarange y'umweru ndetse harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, amatara meza arimo kwaka ndetse na kizimyamwoto yifashishwa habonetse impanuka.

Icyumba giteguye neza gifite urugi rw'umukara rurafunze hateretse televiziyo ndetse n'igitanda gishashye neza gifite imisego itatu, hari itara riteretse ku meza munsi yaryo hari n'impapuro z'umweru.

Ahantu heza hubatse neza hari kugaragara neza, hari ibara ry'umuhondo, ibyumba byiza biri kugaragara neza, birimo imitako y'amabara atandukanye, hateguriwe kwakira ndetse no kurara abantu benshi.

Imifuka, amavuta, umunzani, ifu iri mu ibase, umugabo uhagaze, ameza ateretseho ibintu binyuranye bigurishwa kugira ngo abantu babone ibyo bifashisha mu ngo zabo.

Imboga ndetse n'imbuto by'ako atandukanye, inyanya, intoryi ndetse n'abantu bicaye mu isoko barimo gucuruza, umugore wambaye isengeri y'umutuku n'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku, yambaye ishati irimo imirongo y'umutuku, yikenyeje igitenge, arimo gutandika ibijumba ndetse n'imyumbati kumuhanda ku ihema, hirya ye haparitse amagare ye ndetse n'abasore batatu bahagaze barimo kuganira.

Abantu benshi higanjemo igitsina gore bari mu isoko, bari kugura imyenda itandukanye, bari kuganira, barizihiwe, hirya yabo hari inzu isakayuje amabati y'umweru, ifite imiryango y'ubururu.

Moto iparitse, iriho kasike, iruhande rwayo hari igipfunyika, abantu benshi batandukanye ndetse n'imyenda y'amabara atandukanye, bahuriye ahantu hamwe, barimo kuganira, bamwe bari no kugura.

Abantu bahagaze abakobwa n'abasore imbere yabo bahagaze umukobwa wambaye ipantaro n'umupira w'umutuku ari kurambura imyenda y'amabara atandukanye y'umukara, umuhondo n'umweru.

Umuhanda w'igitaka, inkweto nziza zamabara atandukanye: umukara, umuhondo, ziteretse ahantu ku kameza, iruhande hahagaze abana batatu, umwe afatishije amaboko ye ku bibero, abandi barunamye barimo kwambara.

Isoko ryiza ririmo abantu benshi batandukanye, umukobwa umwe wambaye igiteteyi cy'umutuku akaboko yakazamuye agafatisha ku nda akandi arakamanura, umugore wambaye ikanzu nziza ufite imitsatsi ahetse isakoshi ku rutugu, hirya ye hari umugore witeze igitambaro cy'umukara.

Ibiti byumye birunze ku muhanda, imyaka ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye biri ahantu hamwe, kugira ngo abakiriya babashe kuza kubigura babyifashishe mu gukora ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'umukara yambaye igiteteyi gifitemo utubara tw'umweru yiteze igitambaro, yikoreye ibitunguru ku mutwe we iruhande rwe hahagaze abandi bantu benshi barimo kugenda, hirya yabo hubatse inzu ifite inzugi za metarike.

Umuhanda w'igitaka, ihema rirambitse hasi ry'umukara rirambitseho ibijumba bifunze mu mifungo itandukanye bifite ibara ry'umutuku, imifuka irimo ibijumba biracuruzwa kugira ngo bibashe kugera ku bakiriya.

Amafunguro yateguriwe ahantu heza ku meza harambuye ibitambaro, hari ibintu byinshi n'imbuto zinyuranye ndetse n'ibirahure birimo amazi, hanze hari pisine nziza bogamo ndetse n'ubwatsi bwiza butohagiye.

Kiza giteguye neza gifite amakaro hasi intebe nziza z'umukara zifite aho kwegama zitondetse ku murongo mwiza hagati yazo hateretse ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru kiri kugaragara neza.

Inzu nziza, yubatse neza, iteguye neza, icyumba kiri kugaragara neza, kirimo intebe nziza, zifite aho kwegamira, zitondetse ku murongo, hagati yazo harimo ameza, ibinyobwa by'amoko atandukanye biri ahantu heza, bitondetse ku murongo.

Ahantu hateguye neza ahambere hari intebe nziza zo kwegamiraho, imbere yazo hateretse ameza inyuma yazo, hari irindi tsinda ry'intebe zitondetse neza ku murongo, imbere hari ibirahure bifunguye biriho amarido, hanze hari indabo ziteye neza.

Umugabo wambaye kasike y'umuhondo iyindi ayifashe mu ntoki, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ikoboyi, yicaye kuri moto ifite icyapa cy'umuhondo, imbere ye haparitse imodoka nyinshi cyane ndetse n'undi mumotari wambaye kasike y'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, afite umusatsi muke n'ubwanwa buke, yicaye mu modoka nziza y'umweru, afashe vora arimo gutwara n'amaboko ye yombi ama ishati ye yayihinnye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ushushanyije umurongo w'umuhondo, umugabo wicaye kuri moto, wambaye ikoti ry'umutuku, kasike y'ubururu arimo kugenda mu muhanda, hirya ye hari inzu nziza ifite irangi ryiza ry'umweru, ifite amabati y'umutuku.

umufere upfundikiye ndetse n'ahantu heza hubakishije amapave, umugabo uri kuri moto yambaye ingofero, umupira w'amaboko maremare w'umweru, amaboko ye yayamanuye, ayafatisha ku mavi, inyuma ye hari inzu nziza, ifite irangi ry'umweru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, umugabo uri ku igare wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ishati y'amaboko magufi, yambaye ikoboyi n'inkweto z'umutuku .hirya y'umuhanda hari ibishyimbo byiza bitohagiye ndetse n'urutoki rurimo ibitoki.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite amabara y'umuhondo, moto iriho abantu babiri bambaye casike z'icyatsi, umwe yambaye ikoti iruhande rwabo hari ipoto rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru amarinete ye yayazamuye ayashyira ku mutwe, yambaye ipantaro nziza y'itisi, afatishije amaboko ye moto arimo kugenda areba imbere yayo ukuntu hameze, iruhande rwe hagaze akana k'agasore kambaye ekoteri mu matwi kari kugenda kamufashe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo moto ebyiri ziparitse zicayeho abantu umwe yambaye kasike y'umutuku undi yambaye kasike ya koto inyuma yabo hubatse inzu nziza ifite inkingi z'umweru iri kugaragara neza.

Abamotari babiri umwe yicaye kuri moto undi arahagaze afashe mu mahembe ya moto ye barimo kuganira, umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ikoboyi undi yambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro imbere yabo haru umuntu uri gukurura ikigunguru ndetse n'imodoka iri kuza ibasatira.

Umuhanda mwiza w'umukara harimo moto eshatu, moto imwe yicayeho umugore ufite imitsatsi, wambaye umupira w'umuhondo amaboko ye yayafatishije ku bibero, hirya yabo hari ibicuruzwa byiza biri mu mabara atandukanye, barimo kugenda.